Umugabo w'umuhanzi wambaye akajiri ka Airtel ufashe mikoro wambaye n'ingofero, wirabura wambaye ipantaro y'umutuku uri mu mutaka wegereye bafure uri kuririmbira abaturage mu kwamamaza Airtel.

Amapave umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho umukobwa wari uri mu kazi atanga amayinite ayoherereza abaturage yohereza n'amafaranga ahantu hamwe cyangwa se ahandi.

Kiyosiki ya Eyari icuruza amayinite n'umutaka wa MTN uruza amayinite, n'amazu yubatse neza agaragara nk'aho ari mu bucuruzi, ahantu bacururiza ibintu bitandukanye.

Akazu ka MTN ndetse n'umutaka wa MTN ufasha abantu kohereza amayinite ndetse no kohereza amafaranga bigatuma cyoroshya imirimo ndetse n'akazi kabo ka buri munsi.

Abakozi ba MTN ni benshi bari mu kazi, baje gushishikariza abaturage gukoresha MTN mu gihe bari guhamagara, bari kohererezanya ubutumwa ndetse no mu gihe bari kohereza amafaranga, haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda.

Uyu mugabo yambaye ijiri ya MTN, umukozi wa MTN, ari gutanga ikiganiro kijyanye na serivisi za MTN, asa n'aho ari kubwira abantu basa n'aho bari kubyumva.

Abagabo n'abagore bahagaze cyangwa se bari kwaka serivisi, ku kazu ka ama inite ka MTN gatuma abantu biteza imbere, bohereza amafaranga mu buryo bworoshye mu rwanda ndetse n'imahanga.

Ibyuma by'imiziki umuntu wambaye imyambaro ya Airtel, ari kuririmbira abaturage bari mu bukangurambaga, no kwamamaza Airtel kugira ngo abantu bajye bayikoresha, bahamagara banacatinga.

Abaturage abagabo n'abagore, bavuye mu murima guhinga cyangwa se kubagara imyaka yabo kugira ngo yere imere neza, izabafashe mu kwibeshaho no gukoreshabesha imiryango yabo.

Umurasire ufasha abaturage mu gukurura amazi yo kuhira ibigori mu gihe k'izuba ndetse bikanabafasha kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'imiryango yabo.

Ahantu babaririza imbaho harimo abagabo batatu bibafasha mu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse bakinjiza amafaranga yo kujyana abana ku ishuri.

Apapa bahagaze hagati mu nzu nziza, irimo amatara amurika icyatsi bari baje kurema inama no kwiga ku buryo bakwiteza imbere, binyuze mu mabanki n'amakoperative.

Abamama bicaye bari kuboha imipira y'ubudodo, bibafasha kwiteza imbere, kubona amafaranga yo kwizigama no kubona amafaranga yo gutangira abana babo ku ishuri.

Abantu bahagaze bambaye imyambaro y'umweru, umukara na kake, bahagaze inyuma y'amamodoka cyangwa se imbere yayo n'imbere y'inzu nziza y'umweru.

Ubuhunikiro bwa kijyambere bwubatse neza. Bwubakishijwe n'amabati y'umutuku. Burimo ibigori bihambiriye ndetse bivamo imbuto. Bigatuma hatabaho kumungwa ku myaka.

Icyumba cyiza kirimo intebe z'ibyuma n'ibiti giteye irange ry'umweru gisa naho bagicururizamo inzoga, hari intebe z'abakiriya bicaraho mu gihe bari kunywa.

Icyumba cyiza cyubatse neza, kirimo intebe zisa neza, ndetse kika gifasha abantu baje kunywa bisanzwe, kunywa amayoga, fanta, ndetse n'ibindi binyobwa.

Impapuro z'isuku, zifasha abantu mu gukora isuku mu ntoki se, ku mubiri ku wabo ndetse bikaba bifasha abantu kwiteza imbere, mu gihe bazicuruza n'ibindi bikorwa byiza.

Umubyeyi uri mu nzu y'ubucuruzi arimo acuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo umunyu, isabune, bombo, amavuta yo kurya n'ayo kwisiga bikabafasha mu kwiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa harimo: amazi, fanta n'ibindi bintu byo kunywa bitandukanye bifasha nyir'ubucuruzi kwiteza imbere no guteza umuryango we imbere.

Inzu y'ubucuruzi irimo amagi, bombo, ibirayi, umuceri, ifu, isabune ndetse n'ibindi bintu abantu haha mu gihe bagiye kwifasha bari guteka.

inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bitandukanye harimo; umuceri ,kawunga ,isabune ,amata ,ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bikamufasha kwiteza imbere abaturage bakaza guhaha.

Inzu y'ubucuruzi bacururizaou ibintu byinshi bitandukanye, harimo inyanya harimo intoryi, karoti, amagi, bombo imikati, amasabune amavuta yo kuryayo kwisiga.

Umuhanda mwiza uri impande y'urusengero rwubakishijwe amabati y'umutuku rukorotiwe n'igipangu cyiza, ruteye irange ry'umweru.

Umugabo uhagaze mu rusengero, yambaye agapfukamunwa ,ari kuvugira muri mikoro ndetse imbere ye hariyo mudasobwa, ari gushishikariza abantu basengera muri rusengero, kwizigama no kugana amabanki.

Abagabo batanu bambaye bose ibishyura by'umweru bahagaze ahantu heza hari tapi y'umutuku, hirya hariho n'indabo, bakorera umurimo w'Imana mu rusengero.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako ifite irange ritukura, rifite amadirishya, iteye irangi ry'umuhondo, bakaba bahagaze ahantu hubatse neza kuma pave asa neza.

Umupadiri cyangwa se umupasiteri wambaye imyambaro y'umweru n'agapfukamunwa, arimo kwigisha abakiristu mu rusengero mu buryo bakwitwara ndetse abigisha n'uburyo bazajya mu ijuru.

Abagabo babiri umwe wambaye ikoti undi yambaye ishati, umwe yambaye agapfukamuwa mwe k'umweru undi yambaye ak'umutuku bari mu cyumba kiza ndetse giteye irangi ry'yumweru kirimo amatara meza, kirimo n'ameza meza hasa neza.

Abakirisitu bicaye mu rusengero ndetse hakaba harimo n'abayobozi, abadaso ndetse bakaba bagira inama y'uburyo bakwiteza imbere, bakwizigamira ndetse n'uburyo buri wese yabera ijisho rya mugenzi we mu gihe bari kumwe cyangwa se baturanye.

Abaturage bari kunywa ndetse bari mu rusengero, baje kunywa ku maraso ya Kristo ndetse bari gufata n'ikariristiya, kugira ngo biyunge n'Imana bibafashe kumva imitima yabo ituje bameze neza, bafite imitima itabacira urubanza.

Abaturage benshi cyane bari mu rusengero baje gusenga Imana kugira ngo izabafashe mu mirimo yabo ya buri munsi, kandi bituma bahumurizwa nk'uko baje ndetse bikabafasha mu gukomera no gukomerera ku mwami wabo.

Abamama n'abapapa basa neza bahagaze imbere y'urusengero, aho bari kugirwa inama zo kwiteza imbere no kwizigamira mu gihe bari mu rusengero.

Umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umweru, uri kumwe n'umwana n'umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kubafasha kugira ngo bavure umwana akire.

Urusengero rurimo abakiriristu benshi nubwo batatanye, ndetse ni runini rwubatse neza, abakrisitu baratuje, bambaye imyambaro miyinshi itandukanye abambaye ubururu, umweru n'imikara.

Ababyeyi bamabaye amakanzu meza, bahagaze imbere bari kuririmba, inyuma yabo hari imyenda y'imyeru, hari ndetse n'ihema ryiza cyane hasa neza kandi hakikijwe n'umutuzo.

Icyumba cyiza kirimo televiziyo kirimo n'intebe ndetse kifasha abantu kuruhuka mu gihe bicayemo bari kureba amashusho kandi bakishimana, bakanezereranwa mu gihe bicaranye.

Ibiryo byatetswe neza, bisa neza ndetse hariho n'amasiyete y'umweru, udukombe tw'umweru n'ibirahure bifasha abantu mu gihe bari kurya kandi bakanaryoherwa.

Umusaranie wa kijyambere wubatse uriho ibikoresho byiza, ufasha umuntu gukora isuku mu gihe yagiye mu bwiherero ndetse kugira ngo yirinde umwanda ndetse n'indwara zandurira mu mwanda.

Ahantu hasa neza hameze neza hariho intebe zisa n'izicaramo abantu, hariho na pisine ifasha abantu koga, kuruhuka ndetse hariho n'ikibuga gisa neza.

Icyumba kiza kirimo amarido meza, giteye hejuru irange ryumweru, kirimo ibitanda bisa neza ndetse n'utubati dusa neza, bakifashisha mu kukiraramo ndetse kikinjiza n'amafaranga ku mahoteli.

Ibyo kurya byiza bitandukanye harimo inyama, ifiriti, bifasha abantu mu kubaka umubiri no mu bitera imbaraga, kandi bigakomeza n'amagufa.

Ahantu hagaragara neza hicaye abantu babiri, hariho na pisine ifasha abantu mu gihe bananiwe bari kuruhuka, bari koga kandi banatanga n'amafaranga mu gihe bari kuyikoresha.

Umugabo uhagaze imbere y'agatuti, gafite ibara ry'umweru, na we afashe mikoro yambaye ikoti ry'umukara, yegeranye n'abaturage asa naho ari kubabwira ibintu ari ku baremesha inama.

Igikoni bateguriramo amafunguro yo mu mahoteli ni kiza, kirimo ibiryo byinshi bitandukanye, harimo inyama, harimo imboga ndetse n'imbuto.

Inzu iteye irangi ry'umweru yubakishijwe amabati atukura ndetse iriho n'imirasire y'izuba, imirasire y'izuba ituma abantu tubona amashanyarazi adufasha mu kumurika mu nzu ndetse no gukoresha za mudasobwa.

Inyubako nziza ndetse y'ubukerarugendo isa na hoteli icumbikirwamo abantu batandukanye ndetse ikaba inatanga na serivisi zirimo iz'ibiryo, ibyo kunywa, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cyubatse neza kirimo igitanda, kiriho matela, kiriho amashuka y'umweru n'imisego y'umweru n'irindi shuka ry'umukara, gifite irangi ritukura.

Abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara undi yambaye ipantaro y'ubururu, bafite umunzani ndetse n'imifuka igera muri itatu y'ibirayi ,bafite n'amagare.

Isoko ry'imbuto n'imboga abantu bacururizamo bashaka amafaranga, bashaka imibereho kugira ngo bateze ingo zabo imbere banateze n'igihugu cyabo imbere babikora mu masaha y'akazi igihe cyose.

Beterave, ibitunguru, byanitse ku ihema, bidufasha mu guteka amafunguro yacu ya buri munsi, hari n'ibasi y'umutuku, n'umunzani, hari n'ibasi y'icyatsi.

Umumama wambaye umwenda urimo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'inyuma ye hari abandi bamama, afashe tungurusumu arimo arazigurisha, zidufasha mu buryo bwinshi butandukanye, turaziteka ndetse n'ibindi.

Ingunguru ya purastike itwikije ihema igahambirizwa n'umukoba, ibika ibintu byose bitandukanye ishobora kujyamo amazi, ishobora kujyamo umusururu ndetse ishobora no kubika ibintu byinshi bitandukanye.

Ibiti bibaje neza bifasha abaturage gukwikira amasuka ndetse bakayifashisha barimo guhinga imyaka yabo no gutera imyaka mu gihe bagiye mu buhinzi no mu bworozi.

Imbabura ya kijyambere bifashisha bateka, n'icyuma kidoda imyambaro y'abagabo, iy'abagore, iy'abana iy'abacecuru n'iy'abasaza, igafasha mu gihe umuntu ari kwiteza imbere.

Ababyeyi bari kunyura impande ya moto, bikoreye imbuto bazijyanye ku isoko kugira bakuremo amafaranga yo kugaburira n'ayo kubonere abana babo ibyo bakeneye.

Mu isoko ririmo abantu batandukanye bacuruza ibintu bitandukanye, harimo ababyeyi, abakobwa, abagabo n'abagore bacururizamo, imyambaro, ibyokurya ibyo kunywa, ndetse n'ibikoresho by'isuku.

Umucuruzi w'imyambaro myinshi itandunye y'ubwoko butandukanye, bimufasha kwinjiza amafaranga kugabuburira umuryango we no guhahira abana n'ibindi.

Ahantu heza hubatse neza abantu bifashisha bari kurira, hari intebe nziza, ameza meza ndetse n'udutambaro twiza, aha ngaha hafasha abaturage mu kuriraho neza igihe bavuye mu kazi kabo ka buri munsi.

Icyumba kiza kigaragara neza, gifite ibara ry'umuhondo, kirimo intebe z'umukara, gifite n' ameza y'umweru, gisa neza, kiboneye kucyicaramo, ku kiriramo, cyangwa se kukinyweramo.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane urimo umumotari wambaye kasike itukura, ufasha abantu kwiteza imbere kujyana ibicuruzwa byabo babivana mu mirima babijyana mu masoko, ndetse babijyana n'iwabo mu rugo.

Umu motari uri muri kaburimbo nziza. Ifasha abaturage gutwara ibintu n'abantu babivana ahantu hamwe babijyana ahandi. Inyuma hari inzu nziza ifite amabati atukura ndetse n'insina nziza zitanga ibitoki.

umuhanda wa kaburimbo uri kugenda mu moto iriho umumotari umwe wambaye kasike itukura, n'umumama uhetse umwana wambaye ibitenge ndetse bari kuva mu gace kamwe bajya mu kandi.

Kaburimbo iri kugendwamo moto ebyiri, izamuka n'indi mpanuka, hakurya ya hakaba hari umubyeyi nawe uri kugenda, ikaba ifasha abaturage kujyana ibintu byabo ndetse no gutwara ibintu n'abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Abamotari bari mu mukazi kabo ko gutwara abagenzi, bambaye amakasike y'icyatsi, amajire y'umutuku ndetse hari n'umugabo ku ruhande waje gutega, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Abamotari bari mu kazi bari gutwara abagenzi mu buryo bwiza babavana ahantu hamwe bajyana ahandi, bikabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo, bakaba baparitse imbere y'inzu ifite amadirishya n'inzugi ziteye irangi ry'icyatsi.

Ahantu hubakishijwe amabuye, hariho umugabo wicaye kuri moto, afite Kasike ebyiri, ndetse no hirya ye hari amazu meza, asa neza, afasha abacuruzi mu gucuruza biteza imbere.

Abagabo bambaye amajiri ya MTN, bari gutanga serivisi zo kubitsa no kubikura no kohereza amainnite, bahagaze n'abamotari, umwe yambaye ikasike y'ubururu undi yambaye kasike y'umutuku, bari impande ya tagisi.

Amazu meza afite inzugi z'ibirahure n'ibyuma hariho n'icyapa, yegereye umuhanda wa kaburimbo urimo na moto utwara abagenzi ikabafasha gutwara ibintu n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo utwaye moto wambaye kasike imwe n'uwo atwaye yambaye kasike indi, wegereye ibiti byiza byitwa isipuri ndetse ibiti babivanamo imbaho zo kuramo intebe n'ameza n'ibindi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibice bibiri, icyo kumanuka, n'icyo kuzamuka, urimo moto ifite, igendaho abantu babiri, bambaye ingofero zitukura, n'.icyapa cya mirongo itandatu, n'amashanyarazi, n'inzu nziza ziteye amarangi y'umweru n'umukara.

Umumotari wicaye kuri moto wambaye kasike itukura, wegeye n'umupolisi, n'akazu ka MTN, umutaka wa MTN ufasha abantu mu kohererezanya amafaranga.

Umumotari wicaye kuri moto, atwaye n'umugenzi, wambaye umupira w'umuhondo, wambaye na kasike z'icyatsi ndetse bari imbere y'ahantu heza, hubatse neza, hari inyubako ziteye irangi ry'umweru ndetse hari n'abamotari benshi.